Iyi ni inama yahuriwemo n'abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, iri kwiga ku kibazo cy'abangavu batwara indaya zitateguwe.

Umumama uhagaze wambaye imyenda y'umutuku na furari itukura, yambaye amarineti, hari n'icyapa cyanditseho twirinde indwara y'ubushita bw'inkende mu cyongereza bita emupogisi.

Ni inama yahuriwemo abantu b'ingeri zose, baba urubyiruko n'abandi benshi batandukanye, aho umwe mu rubyiruko afite mikoro n'agakayi yandikagamo ikibazo agiye kubaza uwayoboye inama.

Mu cyumba kinini cyane kiri kuberamo inama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare, aho iri kwiga ku ngingo zigiye zitandukanye, abayobozi biga kuri izo ngingo zirengera umuturage dore ko umuturage agomba guhora ku isonga.

Ni imbaga y'abaturage n'abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, aho bari gukangurirwa, gahunda nziza cyane y'abikorere mu isibo, mu rwego rwo kwirinda gusiragira mu nzego zitandukanye za leta.

Mu nama yahuriyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, harimo n'iz'umutekano, zaba iza gisirikare, n'izindi zigiye zitandukanye, ziri kwiga ku ngingo zateza imbere urubyiruko.

Icyumba kinini kirimo kiberamo inama ifata imyanzuro ku ngingo zitandukanye, aho buri muyobozi wicaye afite ikayi n'ikaramu yandikamo ibiza kwigirwa muri iyo nama yiteretse n'amazi yo kunywa, ku rundi ruhande hari ameza ateretseho mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Itorero ry'abakobwa bambaye imikenyero y'umweru n'imyitero y'umukara, bari kubyina bagorora amaboko bateze nk'amahembe y'inyambo, bari kubyinira kuri tapi imbyino gakondo.

Igikoresho cyabugenewe aricyo ingoma hariho n'imirishyo, cyifashishwa mu misango y'ubukwe no mu bindi birori bigiye bitandukanye, byaba ibya leta no muri rubanda rusanzwe.

Umuryango ufunguye ku bikingi hegetseho icumu n'ingabo byakoreshwaga n'intore ubwo zabaga ziri guhamiriza

Ni agaseke gateretse hasi gafite amabara yiganjemo y'umuhondo n'umukara, gapfundikiye neza kaba ari ikimenyetso cy'umuco wacu nk'Abanyarwanda.

Ni ibirori byahuje imbaga aho abasore bambaye imikenyero n'imyitero y'umukara n'umweru n'umwe mu bakobwa waserutse imbere ari guhamiriza yambaye n'amayugi.

Abakobwa babiri bambaye imyenda y'umweru, imikenyero n'imyitero nini mu ijosi, bateze amaboko bari kubyina imbyino gakondo, ko ari umuco wacu nk'Abanyarwanda.

Itorero ry'ababibnyi babyina imbyino gakondo, hari n'abakaraza bavuza ingoma, abasore n'inkumi bambaye imyitero n'imikenyero yiganjemo amabara y'umweru babyina imbyino za Kinyarwanda.

Ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda bambaye imyenda y'umweru n'umukara harimo abasore n'abakobwa bari mu kirori nk'ubukwe.

Ni ibirori byahuje imbaga aho abasore n'inkumi bambaye imyenda gakondo bari kubyina bateze amaboko nk'inyambo, indirimbo za gakondo zo kubahiriza umuco wacu.

Ni mu birori aho abakobwa bari kubyina bateze amaboko nk'inyambo bambaye imikenyero n'imyitero n'inigi mu ijosi babyina imbyino gakondo bagaragaza umuco wacu nk'Abanyarwanda.

Umugabo wambaye ishati y'umweru utambaye ingofero. Ari uku kuvuza umwirongi aho uvuzwa mu gihe cy'ibirori kandi ukaba ari n'ishingiro ry'umuco w'abanyarwanda.

Ni abasore n'inkumi bambaye neza imyenda ya gakondo; aho bari kubyina imbyino za gakondo. Bambaye imyenda y'umukara biteye ibishura by'umweru, abakobwa bambaye imyenda y'umweru gusa n'uturinga tw'umweru mu mutwe.

Ni mu birori, aho abakobwa bishimye, bambaye imikenyero n'imyitero by'umweru, babyina imbyino gakondo, barambuye amaboko, bateze nk'inka z'inyambo.

Imodoka ebyiri ziri kwambukiranya ikiraro zijya mu byerekezo bitandukanye.

Ni mu gace gatunganyirizwamo umuriro w'amashanyarazi, ukahakusanyirizwa kugira ngo ujye mu baturage, ahari amapironi ariho isinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce dutuwemo.

Ni agace gakorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, nk'urutoki, voka, n'ibindi bitandukanye, nta muhanda wa kaburimbo uhari, hakikijwe n'imisozi miremire ihanamye, iteyeho amashyamba.

Ni ibyuma byinshi cyane byifashishwa muri elegitirisiti bakwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hari moteri kompiyuta(computer) bareberaho uko umuriro uri kugenda, jenerateri(generator) n'izindi nsinga zinyuranye.

Ni ipironi nyinshi cyane zijyana umuriro w'amashanyarazi mu midugudu, aho abaturage batuye ngo baziteze imbere. Ni icyaro gikorerwamo n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi.

Ni pironi itwara umuriro w'amashanyarazi, yagize ikibazo bari gufunga neza ngo umuriro ugere ku baturage uko bikwiye, abayenjenyeri batatu bambaye amajire atukura n'ingofero zitukura, bari gukora akazi kabo bashinzwe.

Uru ni urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, aho insinga zijyana umuriro mu giturage aho batuye.

Uyu ni umukozi ushinzwe ibyo gutanga ingufu n'umuriro w'amashanyarazi ari ku rugomero rw'umuriro w'amashanyarazi yari yapfuye arimo arayakora isinga zari zacitse, yambaye imyenda itukura n'ingofero itukura imurinda kugira ngo atagira impanuka n'imyenda yabugenewe yifunze n'imikandara.

Ni isinga nyinshi cyane z'amashanyarazi, aho mu gasanduku zihuriramo, zitanga umuriro hirya no hino, umwenjenyeri arimo azicomeka, zari zapfuye.

Ni gace kateye imbere kariho inyubako z'amarangi y'umuhondo, ni iz'ubucuruzi, hari n'umuriro w'amashanyarazi, aho wari wapfuye abakozi ba REG, bashinzwe iby'amashanyarazi, bari kuzikora nta muhanda wa kaburimbo uhagera.

Ni igikorwa cy'iterambere aho umuriro w'amashanyarazi wari wagize ikibazo. Aba enjenyeri bakora mu by'umuriro w'amashanyarazi no gukwirakwiza umuriro n'ingufu hirya no hino, baje kubikora. Ni karitsiye ikomeye cyane ifite umuriro w'amashanyarazi, n'inzu zigeretse zizwi nka etaje.

Inzu iriho imirasire y'izuba myinshi umugabo uhagaze werekeza kuri kandagira ukarabe n'inzu ebyiri ziriho amabati n'amabara menshi ateyeho y'ubururu ndetse n'umweru.

Ni ipoto ijyana umuriro w'amashanyarazi, hariho umugabo urimo ubikora, bigaragara ko ari ikibazo cy'umuriro utageraga ku baturage neza, arimo atanga umuriro akora ipoto isa nkaho imsinga zari zacitse.

Amatara yo ku muhanda yaka aboneshereza abaturage, urujya n'uruza ndetse n'ibinyabiziga hirindwa impanuka n'umutekano muke wo mu muhanda.

Ni abahanga mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, aho abenjenyeri babiri bafite umurasire wa rutura w'izuba bagiye kumanika ngo uge utanga umuriro.

Ni umukozi ukora mu by'umuriro w'amashanyarazi yambaye inkweto zabugenewe n'ibikoresho byabugenewe bikora mu by'umuriro w'amashanyarazi, ari kuri poto areba aho byapfiriye ngo abikore umuriro ugere mu baturage.

Uru ni urugomero rw'amashanyarazi, rutanga ingufu hirya no hino, aho abaturage batuye nka kimwe mu bimenyetso by'iterambere kuri buri munyarwanda wese.

Imigozi myinshi ya tarasifo aho umuriro w'amashanyarazi bawukusanyiriza. Hari umugabo uhagaze ufite urupapuro mu ntoki ari gusomaho.

Ku biro by'Umurenge binini cyane bisakaje amabati y'ubururu, hafi yaho hari n'idarapo ry'igihugu n'umuhanda utarimo kaburimbo.

Ni ku kumupaka uhuza ibihugu byombi, u Rwanda n'Ubugande, aho bakubwira ko ugomba kugira urugendo ruhire waba ugenda, waba ugaruka.

Ni inyubako ziganjemo amabara y'iterapo ry'u rwanda, zikikije sitade ikinirwaho umupira wamaguru nayo ikikijwe ninzira ndende itukura.

Umuntu uri kwambuka iteme riri mu muhanda munsi hariyo amazi menshi cyane ari kuva mu gace kamwe ajya mu kandi.

N'ikiraro cyo mu kirere, cyubatswe kugira ngo imigenderanire ibashe kubaho neza nta mpungenge, aho kugenda byabaga bigoye.

N'ibiti by'umunyinya birebire cyane, hari n'ikiraro cyo mu kirere cyambuka gihuza agace kamwe n'akandi gace.

Ibiro by'Akagari byubakishije amabati, biriho irangi ry'umuhondo. Kumadirishya hariho irangi ry'mukara no ku nzugi hariho irangi ry'umukara. Hateye n'indabo kuruhande n'igiti k'inturusu gihagaze ndetse hari n'idarapo ry'Igihugu.

Ni umumama ufite agashakoshi mu ntoki uhetse umwana mu mugongo n'ibishora by'umweru, afite undi mwana mu ntoki bari kwerekeza ku nyubako yiganjemo amabara y'ubururu, hejuru hari n'imirasire y'izuba.

Inyubako ebyiri zitangirwamo serivisi z'ubuzima, zaba izo mu buzima bw'imyororokere, abadamu batwite, kuboneza urubyaro, n'izindi serivisi zitandukanye.

Ikigo cy'amashuri hari inyubako itaruzura neza ubona ko ari icyumba kizajya kigirwamo, bari gusakara cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi n'indi mihanda ishamikiyeho itari iya kaburimbo, hafi yaho hari n'ikigo cy'amashuri.

Ku biro by'akarere ka Nyagatare hari ubusitani bwiza bw'indabo z'umuhondo, aho bakirana yombi ubaganinye wese, bafite serivisi nziza z'akataraboneka.

Ni inyubako y'ubururu, isakaje amabati y,ubururu, ibikwamo ibikoresho, hafi yaho hari n'ubwiherero, umuryango umwe urafunze, undi urafunguye, hateretse n'ibisiterine bifata amazi y'imvura.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bambaye imyenda yiganjemo umweru, bicaye mu ntebe mu nzu nini cyane, hari ikidara gikingirije bari guhabwa imbwirwaruhame.

Ni ikidara kicayemo abantu benshi bambaye mu imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umukara, bafite ama buji ni nko mugihe cyo kwibuka, hari n'umusirikare wambaye impuzankano y'akazi.

Ni inama yahuriwemo n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye n'iz'umutekano nka Polisi, aho umwe mu bayobozi afite imbwirwaruhame ari kubagezaho ku ngingo bari kwigaho.

Ni abantu benshi b'ingeri zitandukanye, baba ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bari hafi y'inyubako ya Leta, hari n'amahema, bari mu gikorwa cy'umuganda batema ibihuru bihakikije ngo habe hari isuku ikwiriye.

Ni imbaga y'abantu bambaye imyenda yiganjemo iy'umukara n'umutuku n'umweru aho bari guhabwa ikiganiro ku cyigo cy'amashuri, ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Abaturage bicaye hasi, abandi bicaye ku ntebe, bambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umweru, ruguru hari imodoka n'ikigo cy'amashuri. Bicaye munsi y'ibiti bishaje cyane by'inturusu ndetse na voka.

Ni ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe maganacyenda mirongo cyenda na kane, aho imbaga yabaje kwibuka ifashe umwanya wo kwibuka batuje.

Imbaga y'abantu bicaye ku ntebe benshi biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bari kubwirwa ku ngingo zigiye zitandukanye, aho bacecetse bari kumva imbwirwaruhame y'umuyobozi.

Umuhanda uriho icyapa cyerekana ko hari zebura korosingi aho abanyamaguru bambukira hari ibimera byinshi ibiti bigiye bitandukanye.

Ni ku muhanda wa kaburimbo, ahari umumotari ufite umugenzi, bari guciririkanya aho ari bwamugeze n'amafaranga aribwamwishyure.

Ni moto iparitse kumuhanda, iriho umuzigo w'umufuka uhambiriyeho w'umweru, n'inzu yicayemo abagenzi, bategereza imodoka itwara abagenzi iza kubatwara mugihe itarahagera bakatishije itike.

Imodoka nziza cyane yiganjemo amabara y'ubururu, ifite puraque yayo inyuma mu ibara ry'umuhondo, hafi yayo hicaye umusekirite ubona ko arinda umutekano w'ibibiro bihari bikinguye byiganjemo ibara ry'umweru.

Ni agace kateye imbere aho umuhanda w'amabuye akomeye uri kunyurwamo n'umumotari wambaye kasike itukura indi ayicikiye ku bibero, kuko nta mugenzi afite agiye kumureba imbere.

Ni icyapa kinini cyane cyerekana idarapo ry'u Rwanda ndetse ko hariho n'indangagaciro na kirazira ziranga Umunyarwanda, by'umwihariko Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Barija.

Umumotari utwaye umugenzi bari mu muhanda wa kaburimbo. Hafi yaho haparitse imodoka iri ku nyubako nziza cyane y'ubucuruzi, ni karitiye yateye imbere hari n'umu agenti wa MTN uri mu mutaka w'umuhondo.

Imirongo iri mu muhanda hagati imenyesha ko ari aho kwambukira h'umunyamaguru mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire.

Ni mu gace kateye imbere karimo umuhanda wa kaburimbo, n'inyubako nziza zigezweho zifite amarangi yiganjemo ay'umweru, n'imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri itwara abagenzi.

Ni abayobozi bo mu nzego zitandukanye, ndetse n'iz'umutekano, baba abasirikare, aba daso, n'abandi bari mu gikorwa cy'umuganda cyo gutema ibihuru bikikije ingo.

Ni imbaga y'abaturage benshi biganjemo abagabo aho bahuriye mu muganda bari kurunda amabuye mu muhanda aho wari waratengutse kugira ngo kugenda bijye byoroha.

Igikorwa cy'umuganda rusange, aho abayobozi bo mu nzego zitandukanye n'ab'umutekano bari guharura umuhanda batema n'ibiti bikikije umuhanda ngo abantu bajye babona uko bagenda biboroheye.

Ni umuganda wabaye abaturage bari kwikorera amabuye inzego z'umutekano nka dasso barahari bafite amasuka na polisi irahari yambaye imyenda y'impuzankano bari mu gikorwa cy'umuganda aho bakora umuhanda bakura amabuye mu muhanda ngo abantu babone uko batambuka.

Ni imbaga y'abaturage benshi, aho bari gukora ibikorwa biteza imbere Igihugu. Bari guhinga bazanye n'amagare, bari guhinga mu rutoki babifashijwemo n'inzego z'umutekano nk'abasirikare babiri bahari.

Abaturage benshi bafite ibikoresho bitandukanye nk'amasuka, imipana, hafi yaho haparitse n'amagare, bigaragara ko bari nko mu muganda rusange, aho barimo bavanaho ibihuru byabuzaga abantu gutambuka, kuko ikigaragara ni nko mu muhanda.

Abagabo bambaye imyenda ya siporo bari muri sitade bari kureba umupira.

Ni umukinnyi ufite umupira wo gukina mu ntoki ari kumwe n'abayobozi babiri bafite igihembo batsindiye mu Murenge Kagame kapu.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko abasore n'inkumi, hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru, bari mu myitozo ngororamubiri n'umugabo uri kubigisha.

Abanyeshuri bigaragara ko bari muri siporo, aho bari hafi y'ikigo cy'amashuri nk'uko bigaragara ndetse n'ikibuga, hafi yaho hari n'umuhanda, bari muri siporo rwose ubona ko bishimye kandi bafite intego imwe.

Uyu ni umusore uri muri siporo afite umupira wa baro, yambaye imyenda y'ubururu, inyuma ya sitade hari uruzitiro rw'amatafari ya rukarakara n'inzu nziza z'amabati atukura.

Abafana b'umupira w'amaguru bicaye muri sitade mu myanya y'icyubahiro baje gushyigikira ikipe bakunda, abapapa bazanye n'abana babo kureba umupira.

Aha ni umukobwa wambaye imyenda yubururu afite umupira n'umukobwa wambaye imyenda y'umukara bari gukinira ku kibuga.

Abagabo bari mu kibuga bamwe bambaye imyenda y'ubururu abandi bambaye iy'umuhondo.

Ni ikibuga cy'umupira kigezweho kiriho tapi n'abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, n'undi ufite umupira agiye kuwupasa abakinnyi bagenzi be yambaye imyenda y'umuhondo n'umukara.

Ikipe yambaye imyenda y'umuhondo, iri kumwe n'umuyobozi ushinzwe ibya siporo ndetse n'ushinzwe umutekano, n'umusirikare ni kuri sitade aho bafite banderore, yerekana ko batsinze amarushanwa y'Umurenge Kagame kapu.

Umukinnyi uri muri siporo yambaye imyenda y'umuhondo, kuri Sitade hari n'imirima ihakikije iteyeho ibiyatsi bya pasiparume.

N'abakinnyi batatu bambaye imyenda y'ubururu, numwe wambaye imyenda y'umuhondo, bari kuri sitade barimo barakina umupira, nk'imwe mu myitozo igorora umubiri. Ikaba inafasha umubiri mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni ikibuga cyumupira cyiza cyane kiriho tapi n'amazamu agezweho, abakinnyi b'amakipe abiri bari gukina, imwe yambara imyenda y'ubururu n'umweru, indi yambara umuhondo n'umukara.

Abakinnyi b'umupira bambaye imyenda yiganjemo amabara atukura n'umukara, bari mu kibuga bakina umupira, hafi yaho hari stade yubatse neza cyane n'aho abafana bicara baje kureba umupira.

Ni abantu benshi bari ahantu hamwe ,bari mu bikorwa bya siporo biganjemo, abambaye imyenda y'ubururu n'umutuku.

Abakinnyi b'umupira bagiye kuganira uko bitwaye mu gice cya mbere cy'umukino, aho bari bari gukina n'indi kipe, bareba uburyo baza gukoresha mu gice cya kabiri.

Abakinnyi bari mukibuga bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, n'uwambaye imyenda y'umuhondo ari nawe ufite balo hari n'umugabo uri hejuru uri kureba umupira.

Ni umuhanda w'igitaka utarageramo kaburimbo, ufite ruhurura inyuramo amazi yubakiye neza kugira ngo atazangiza umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, hari amatara yo ku muhanda, inzu za konoshi n'aho bari kubaka iruhande rwaho inyubako zitaruzura, hakikijwe n'amabati.

Imodoka yo mu bwoko bwa rava, iri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti bitari birebire cyane, muri karitsiye iteye imbere iriho amatara ku muhanda.

Ni agahanda ko mu cyaro gakikijwe n'ibibaya bifite ibiti biteyemo n'ibyatsi byinshi, nta modoka yanyuramo, nta na moto yanyuramo, ni ukugakoresha n'amaguru cyangwa n'igare.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zigenda mu byerekezo bitandukanye n'umunyegare uri kugenda ku igare, hakikije ibiti birebire cyane.